Mu nama zibera ahantu hagiye hatandukanye, aho hatumirwa abashyitsi bakomeye nk'abayobozi b'uturere ndetse n'ab'imirenge.

Inama zi zitandukanye zigomba kwitabirwa n'urubyiruko, abantu bakuru ndetse abagore n'abagabo nabo ntibahatangwe, kubera ko ibyigirwamo ari ingirakamaro.

Mu gihe cy'inama usanga hazamo amatsinda asusurutsa abitabiriye inama, niyo mpamvu usanga urubyiruko rwinshi rwitabira inama.

Iyo habaye inama abayobozi bakuru begera abaturage, bakaganira ibibazo bigiye bitandukanye, byaba iby'umutekano, iby'ubukene ndetse n'ibyabateza imbere.

Igihe icyari gihurije abantu mu nama kirangiye abari mu nama bagomba kubyina bakishima kubera ko ibyo baganiriye biba ari ingirakamaro.

Inama zitandukanye nizo zifatirwamo ibyemezo bigirira abaturage akamaro, niyo mpamvu rero tugomba kuzitabira, dore ko haba hajemo abashinzwe umutekano n'abandi bayobozi b'Igihugu batandukanye.

Umuyobozi wambaye neza cyane ufite indangururamajwi arimo kubwira abantu bicaye imbere ye abagira inama.

Abagabo bari mu nama, hakaba yitabiriye n'abagore ndetse n'abandi bana baje kureba cyangwa se kumva ibiri kuvugirwa muri iyo nama. Bose baratuje, kandi bizeye gushyira mu bikorwa ibyo bari bwabwirwe.

Urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu, tugomba kwitabira inama zitandukanye, kubera ko twatangamo ibitekerezo byagirira Igihugu akamaro.

Abapolisi bafite akazi kenshi kandi gakomeye, haba ako kwigisha abaturage kwirindandi ibiyobyabwenge ndetse no kurinda umutekano wo mu muhanda.

Mu turere tugiye dutandukanye, cyane cyane aka karere kacu ka Nyagatare, usanga abaturage nk'abangaba barimo :abagore ,abana ndetse n'abagabo bitabira inama ku bwinshi.

Abakobwa nibo bagomba kugaragaza umuco nyarwanda, biciye mu mbyino. Abahungu na bo bakawugaragaza biciye mu guhamiriza.

Kugira ngo Igihugu cy'u Rwanda kibe kigeze aha tukibona, ni uko habayeho abami bitanze kugira ngo bacyagure. Natwe rero tugomba kucyitaho tukagifata neza.

Abahungu babiri bambaye kinyarwanda bafite amacumu ndetse n'ingabo, bigaragara ko batojwe kandi bifitemo ubutore.

Iduseke ni bimwe mu bigize umuco nyarwanda . Umuntu wese uzi kutuboha aba yubashywe, kubera ko aba abona amafaranga menshi kandi agasigasira n'umuco wacu.

Abanyarwanda ni bamwe mu bafite umuco, dore ko baciye umugani ngo agahugu kadafite umuco karacika, niyo mpamvu rero bafite igiseke mu biranga umuco wabo.

Umuco wa kinyarwanda biremewe kunywesha umuheha, ariko ntabwo ari byiza kubera ko bishobora kuba intandaro yo guhererekanya indwara zo mu kanwa.

Abakobwa burya nabo barashoboye, kubera ko bashobora gukora ibintu by'amashanyarazi. Ariko kera abakobwa bari abo guteka gusa, gukubura ndetse n'utundi turimo two mu rugo.

Umugabo wambaye akajire kerekana ko akora mu bijyanye n'amashanyarazi.

Igihe cyose amashanyarazi agomba kuboneka kugira ngo rero abaturage bacane, ni uko habaho ingomero z'amashanyarazi kandi izo ngomero zikarindwa.

Igihe cyose ugiye gu gukora ibintu mu mahanga, ni byiza ko ubicisha kuri gasutamo, kubera ko iyo utabicishijeho, babifata nk'aho ari forode cyangwa se bitemewe.

Mu iyubakwa ry'imihanda hari igihe kampani irimo irubaka isenya ibikorwa by'abaturage nk'amazu, icyo gihe uwubatse umuhanda atanga ingurane.

Umuntu, uzobereye, mu by'amashanyarazi, akaba ari kureba, mu nsinga, kugira ngo, arebe, ikibazo, cyateye, ibura ry'amashanyarazi.

Abaturage batanga imisoro na leta ikayifashisha yubaka inyubako zifitiye abaturage akamaro harimo nk'ibitaro, Uturere, imihanda n'ibindi.

Mu rwego rwo kubungabunga ubutaka buke mu Rwanda dufite, Leta y'u Rwanda yubaka inzu zigerekeranye. Cyane cyane inzu zihurirwamo n'abantu benshi nk'amashuri ndetse n'ibitaro.

Leta ni yo ifite mu nshingano kubaka inyubako zitandukanye nk'ibitaro, amashuri, uturere n'ibindi ariko na none, igomba gusana imihanda ndetse n'ibiraro.

Leta y'u Rwanda igenda yita ku baturage bayo yubaka inyubako zibafitiye akamaro haba izo guhunikamo ibihingwa, ibitaro ndetse n'izindi.

Inzu nziza cyane, yubatswe na leta, bashyiraho ikigega, kandi bateraho, ibiti impande yayo.

Ibitaro ndetse n'ibigonderabuzima, bigomba kugirirwa isuku kandi bikitabwaho kubera ko byakira abantu barwaye bikabavura bagakira. Kandi iyo badakize, usanga igihugu kiri mu gihombo gikomeye cyane.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo birimo nk'imihanda kugira ngo yorohereze abagenda mu nzira zigiye zitandukanye.

Umugabo ufite indangururamajwi, ibi bikoresho bakunze kwita mikoro mu ndimi z'amahanga, ahagaze hagati y'abantu bicaye, bigaragara ko hari ijambo arimo kuvuga.

Igihe cyose umuntu yakoze icyaha gikomeye nko kwica ajyanwa mu nteko z'abaturage maze bakamukanira urumukwiye kugira ngo bibere abandi urugero.

Mu bagabo ijana na batanu, usanga nk'icumi muri bo, ari bo bafite inka. Ninayo mpamvu rero Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ya gira inka. Aho uzabasanga bose bafite inka.

Umuturage w'umugore ufite indangururamajwi n'abandi bahuriye hamwe baje kumva ikibazo cy'umuturage, kugira ngo ahabwe ubutabera bumukwiriye.

Abagabo batatu bo bahagaze ahantu munsi y'igiti imbere y'amashuri, hafi ku giti hakaba hariho agatebe abantu bicaraho.

Igihe abayobozi b'igihugu bari baje kubohora iki gihugu cyacu, bifashishije ahantu hagiye hatandukanye, muri aho harimo no mu karere ka Nyagatare muri Gikoba.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane. Uriho ibyapa birinda abantu kuba bakoresha uwo muhanda nabi bikabateza impanuka. Harimo n'abantu barimo kugenda bagiye batandukanye.

Kubera ikoranabuhanga, ntabwo nkirushya nsiragira ku karere cyangwa se ku murenge. Kubera ko mfata telefone yanjye ,nkajya ku rubuga rw'Irembo maze nkasaba serivisi zose nshaka.

Abantu bateraniye hamwe kugira ngo bumve icyo abayobozi bashaka kubabwira.

Mu Mudugudu wa Nyarutoki haherutse kubamo icyaha cy'ubujura, umuyobozi w'aho yatumije inama y'abaturage baraza biga kuri icyo kibazo bakibonera umuti.

Abashinzwe umutekano bicaranye n'abaturage, iyo ubonye ibi ngibi uhita wibwira ko aba bose buzuzanya kubera ko batahutazanyije.

Umupira w'amaguru ni umwe mu mukino ukunzwe cyane, cyane cyane abagabo nibo bakunda kuwukina, ariko aha hariho abakobwa babiri barimo gukina umupira w'amaguru.

Ku kibuga giherereye mu karere ka Nyagatare kuri Stade Amabati hariho umukinnyi wifashe ku mazuru asa nkaho yumijwe n'ibyo yabonye.

Ikipe ikinira kaminuza yitoza buri munsi, hari ubwo usanga abakinnyi bayo bafite ikizamini bakagisiba bakajya kwikinira.

U Rwanda rushyira imbaraga muri siporo, kubera ko abantu badakora siporo bashobora kurwara indwara zitandura zirimo nka diyabete.

Mu turere tumwe na tumwe habaho gukora siporo rusange, abayobozi bashishikariza abaturage kuyitabira kubera ko ituma tugira umubiri mwiza kandi bikanaturinda n'indwara zitandura, ni byiza rero ko twese tuzajya tuzikora nk'uko byategetswe.

Mu karere ka Nyagatare bagira ikipe ya Sanirayize, iyi kipe ikinira ku kibuga cyitwa stade amabati ariko ubu ngubu ntabwo ikiri mu cyiciro cya mbere kuko yaramanutse.

Umukinnyi witwa Haruna Niyonzima yabereye benshi urugero, akaba ari nayo mpamvu hashinzwe ikipe mu Karere ka kyagatare.

Amakipe agiye atandukanye usanga afite abakinnyi bo mu bihugu byo hanze, aba ngaba bagurwa kugira ngo bafashe amakipe gutsinda.

Amakipe yo mu burasirazuba arimo Sunrise yo mu Karere ka Nyagatare ndetse na Étoile de l'Est yo mu Karere ka Ngoma, usanga adafite ingufu yo guhatana n'andi makipe aturuka mu zindi ntara.

Umukinnyi wambaye umwenda uri gusa ubururu n'irindi bara riri gusa icyatsi ndetse n'andi ari gusa umweru, akaba afite amasogisi, yambaye n'inkweto, akurikiwe n'abandi baje kumwaka umupira.

Abaturage benshi cyane bahuriye muri sitade bakunze kwita i gorologota, barimo gukora siporo bananura umugongo.

Gukora siporo cyane cyane gukina umupira w'amaguru, ni byiza cyane kubera ko bituma umuntu atagira indwara zitandura.

Abakinnyi bambaye umupira w'ubururu urimo utubara tw'icyatsi ndetse n'amapantaro y'ubururu bari kwishyuhiriza ku kibuga kizwi nka Sitade Amabati giherereye mu karere ka Nyagatare.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kubaka ibibuga bigiye bitandukanye, ni nayo mpamvu yubaka ibibuga mu Turere, nko mu Karere ka Nyagatare rero hariyo ikibuga, iki kibuga cyitwa sitade Gorogota.

Ikibuga cyo ku mabati giherereye mu karere ka Nyagatare, haruguru ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami rya Nyagatare, yigisha ubwarimu ndetse n'ubuvuzi bw'amatungo.

Abagenzi batatu b'abakobwa bavuye guhaha mu masaha y'ijoro barimo kugendera mu kayira kabo birinda kugendera mu muhanda ugendamo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga.

Mu tuyira duto two mu midugudu abamotari ndetse n'abanyonzi bagomba kubahiriza amategeko y'umuhanda. Ndetse abanyamaguru na bo bagomba kugira uruhare mu kuyubahiriza..